Inzu y'inama irimo abakozi ba leta harimo abagabo bafite umusatsi n'abadafite umusatsi, harimo abakozi bakorera ibigo bitandukanye bya leta bafite amazi y'inyange.

Urubyiruko rwicaye muri sale y'inama ruri guhabwa ababwiriza, bamwe bari kwandika kugirango batazibagirwa ibyo babwiwe, imbere hateretse amazi y'inyange, bambaye imipira y'ubururu, harimo abahungu batatu n'umukobwa umwe.

Inzu y'inama iteraniwemo n'abantu benshi bakurikiye bari guhabwa amabwiriza. Imbere yabo biteretse amacupa y'amazi ari mw'ivide, harimo abambaye amabara yumukara, n'abambaye amabara y'umweru bari ahantu hari amatara agaragara neza.

Inzu ikorerwamo inama irimo abantu benshi bari mu nama bakurikiye umuntu bari imbere uri kubaha amabwiriza harimo abazungu n'abanyarwanda imbere yabo hateretse amazi y'icupa rya nili.

Urupapuro rw'ubururu rurimo mashini, mudasobwa, n'amagambo yanditseho ishyura mituweli ukoresheje kode y'irembo, akanyenyeri icyendaze, zero, icyenda, urwego, ishyura mituweli ukoresheje urubuga rw'irembo, gana urubuga.

Urubuga rwa interineti ruriho itangazo rimenyesha abasora ko hasigaye umunsi umwe ngo ugere igihe ntarengwa cyo gutanga no kwishyura umusoro w'inyungu ku gice cya gatatu cy'umwaka itariki ntarengwa yanditseho ni mirongo itatu n'imwe z'ukwacumi n'abiri bibiri na myakumyabiri na kane.

Porogaramu ya Visit Rwanda yo gusura u Rwanda igaragaza imikoranire hagati y'u Rwanda n'amakipe akomeye ku Isi mu rwego rwo kumenyekanisha ubukerarugendo bw'u Rwanda, hariho ibirango by'amakipe n'imishinga ya Visit Rwanda, ifitanye n'imikoranire yayo harimo Arsenal yo mu Bwongereza na Paris saint Germain yo mu Bufaransa na Bayern yo mu Budage.

Umushinga uherereye mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka Nyagatare ufite gahunda yo guhindura uburyo ubutaka bufatwamo uwo mushinga ukaba witwa terapi ugamije kongerera umusaruro abaturage.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo y'umuhondo mu ibara ry'ubururu rukuburira ngo witonde mugihe uhamagawe n'umuntu utazi, ari kukubaza kubyerekeye akawunti yawe uko bwira tekereza kabiri mbere yuko ushyiramo pasuwadi.

Igipangu kiriho amatafari y'umutuku, gisize irange ry'umweru, hejuru kiriho ubwirinzi bwa senyenge, aba harige kegeranye n'amapoto abiri y'amashanyarazi ariho insinga z'umukara inyuma hariho ibiti iki gipangu kandi gifite amatara ku gipangu cy'abo.

Ibitaro bifite akayira gatwikiriye kugira imvura ibe itakunyagira uri gutambuka harimo abantu bane harimo uwicaye na babiri bari gutambuka muri ako kayira; ifite amabati y'ubururu.

Abantu bari mu nama cyangwa mu biganiro byabereye hanze ahantu hasa n'icyaro abantu bari bicaye ku ntebe cyangwa kubitiyo umurongo umwe bambaye imyambaro isanzwe hari abagore n'abagabo kandi bamwe bafite inyandiko cyangwa amakaye .

Abashinzwe umutekano w'u rwanda bari ahantu biteguye kugenda bari guhabwa amabwiriza bambaye ingofero z'umukara n'impuzankano z'umukara bafite imbunda harimo abambaye amasaha n'abafite udutabo .

Mbuguru yabereye mu irahira rya perezida Paul Kagame wegiranye n'umucamanza mukuru waje ku kumurahiza yagiranye n'umugore we inyuma'ho arid rapo y'igihugu ahagaze imbere y'akameza kariho ikirango cy'igihugu.

Abantu benshi bari ahantu bishimye bazamuye impapuro hejuru izo mpapuro ziriho umuntu bari kwamamaza biyamamarizaga kuba perezida wambaye ikositimu y'umukara muri abo bantu harimo bambaye ingofero y'umutuku n'agapira k'umutuku n'ikoti bigaragara ko yishimye.

Umuntu wambaye imyenda y'akazi harimo ijiri ifite ibara ry'icyatsi n'akabara k'umukara, yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umweru y'itise, yambaye n'inkweto bita bote n'ingofero y'umukara, afite igikoresho batwaramo imyanda cyitwa ingorofani, inyuma ye hari ibara ry'ubururu ririmo n'icyatsi.

Ikinyabiziga cyitwa moto, gifite amapine atatu gitwikiriye hejuru aho batwara imizigo, cyanditseho nimero zeru karindwi umunani umunani gatanu karindwi umunani rimwe rimwe gatatu, bigaragara ko yerekana umushaka wese aho yamusanga, imbere yaho hari imodoka dayihatsu ishitingi y'ubururu.

Ahantu hari amazu y'ubucuruzi, hahurirwa n'abantu benshi. Harimo umugabo wambaye umupira w’umukara n’ipantaro y’umweru n'inkweto zifunguye utwaye ikigare cy’amapine abiri gifite ibara ry'umutuku, atwayemo ibintu by'ibirayi, hirya hari igipiloni cy’amashanyarazi.

Ikibuga gikinirwaho umukino bita tenisi bakina ari abantu babiri, umwe abafite agakinisho gakoze muri pulastike gafite n'akayunguruzo ariho baterera ako kadenesi, ikibuga gisa ibara ry'igitaka.

Iki kimenyetso ni icyapa gisanzwe kigaragaza, nta kwinjira cyangwa nta kugenda, imbere n'undi ugaruka kinyuranyijwe n'akamenyetso gatukura harimo n'ibara ry'umukara.

Ibyapa bibiri kimwe kiriho ibara ry'icyatsi cyanditseho akarere ka gicumbi kiriho icyerekezo cyerekana aho ugiye ikindi cyanditseho ngo murakaza neza mu rwanda biri hagati y'imihanda ibiri ibisikanamo umwe ukomeza undi ugaruka hirya hari ikamyo.

Ahantu hitaruye umugi hubakishijwe urugo rwubatswe n'amatafari akomeye, haba haririnzwe n'umusekirite uba wambaye ijiri ry'icyatsi, imbere yaho hari ikintu kibuza abantu gutambuka.

Agace karimo inzu nyinshi zifite amabati y'umutuku nyinshi, hirya hari umunara muremure w'itumanaho hakaba harimo inzu ifite igipangu kiriho ubwirinzi bwa senyenge, izo nzu zifite umuriro w'amashanyarazi.

Ahantu hubatswe na leta harimo imihanda itatu ibisikana, harimo moto ziri kugenda eshatu imwe itwaye abantu babiri, indi nta muntu utwaye, indi itwaye undi muntu, imbere y'aho hirengereye ibiti birebire by'inturusu.

Mu nsisiro z'imihanda, hagati mu muhanda wa Kigali, hirya hari inzu ifite ibirahure by'ubururu, ndende bigaragara ko ari ndende, harimo imodoka y'umukara n'iy'umweru n'umumotari utwaye umuntu, hakaba hari icyapa cyerekana igihe umuntu wese ashobora kwambuka